Gukaraba amazi meza n'isabune ni isoko y'ubuzima, umuntu arimo akaraba amazi meza y'urubogabogo ndetse urabona ko ni amazi y'isoko atunganije neza.

Mu cyumba mu isuzumiro kwa muganga, umurwayi arimo arapimwa indwara zitandukanye nk'umuvuduko w'amaraso, aho bamushyizeho akamashini ku kuboko kawupima, hari abaganga babiri umwe ni we uri kumwitaho, ku ruhande rwa muganga hari agatada ndetse kariho n'imashini n'ibindi bikoresho bikenerwa.

Madamu wahoze ari Minisitiri w'ubuzima, arimo arakingira umwana ndetse ari mu mwenda w'abaganga, umwana nawe afashwe na mama we.

Inama mpuzamahanga aho abantu bateraniye mu cyumba cyagenewemo inama, hari abicaye imbere batandatu barimo gutanga ibiganiro, ndetse hari n'abandi batandukanye bari kubikurikirana batanga ibitekerezo bakoresheje iyakure cyangwa ikoranabuhanga.

Umwana w'umukobwa mu mwambaro w'ishuri, arimo akaraba n'amazi meza n'isabune, biragaragara ko batuye ahantu hari inzu zishaje ndetse zitubatse mu buryo bwa kijyambere, zikikijwe n'ibiti byinshi.

Muri gahunda z'Isi z'iterambere ry'abaturage harimo kugeza amazi meza ku baturage, umwana arimo avoma amazi ndetse arimo ayanywa mu gihe agitegereje kuvoma.

Umubyeyi uhagaze mu bana be n'abuzukuru aranezerewe, yambaye imyenda igaragaza gakondo yabo, aranezerewe ndetse akikijwe n'abana benshi barimo abakobwa n'abahungu.

Umuganga urwaye arahabwa ubuvuzi na mugenzi we, aha aryamye ku gatanda aho bamushyizeho akuma kumviriza ndetse ariku n'umurwaza wambaye agapfukamunwa.

Abahinzi bejeje imyaka yabo barimo bayikusanya aho bayijyana aho babika umusaruro wabo mu buryo bwo kurinda kwangirika, bakawuka ahabugenewe kugira ngo babone uko bazawugurisha umeze neza.

Gahunda yo kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe kubera yuko hari abantu benshi bagaragara bafite ibibazo bitandukanye nko kubura ibitotsi, agahinda gakabije, kwiheba ndetse bikaba byatuma abantu biyahura, niyo mpamvu habashije kubaho ubukangurambaga bwo kugufasha ndetse no kwigisha abantu uko babasha kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe.

Amarushanwa kuri Covid mu rwego rw'igihugu, agenewe abanyeshuri, agamije gukangurira abantu uburyo bwo kwirinda Covid cumi n'icyenda, akaba yari ateganijwe kuba hagati y'itariki makumyabiri z'ukwa karindwi n'itariki cumi n'eshanu z'ukwacyenda.

Umwana w'umusore urimo urakata akantu gasa n'aho gakomeye akoresheje amenyo ye, arimo ayangiza kubera ko gukata n'amenyo ibintu bikomeye ari ukuyica.

Icyumba cyagenewe kuvurirwamo abarwayi barwaye amenyo, harimo aho bakarabira, harimo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe muganga yicaraho, harimo ibitara bimurika iyo muganga ari gusuzuma mu kanwa ndetse n'imashini zitandukanye muganga yifashisha.

Umwana w'ingimbi kwa muganga, arimo aratunganyirizwa amenyo, aho umuganga uvura amenyo, arimo amushyira utwuma twabigenewe mu gusukura amenyo mu kanwa ndetse ariko agenda akurikirana iryinyo ku rindi.

Icyuma kwa muganga kirimo imashini zitandukanye zipima indwara zitandukanye, harimo intebe, abaganga n'abarwayi bicaraho, harimo urukarabiro rw'intoki, harimo ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umuganga w'inzobere uvura abantu amenyo, yicaye mu biro akoreramo avura abarwayi, yambaye umwenda w'umweru, isaha ku kuboko yiteguye kwakira abamugana.

Umuryango wishimye ugizwe n'abantu batandatu, umukecuru n'umusaza n'umuhungu wabo n' numukazana wabo n'abuzukuru babiri, barishimye cyane buri wese afite akanyamuneza kumunwa.

Umuganga arimo arakurikira umukecuru ugeze mu zabukuru, aho ari kumuha imiti ngo anywe ariko umukecuru biragaragara ko n'ubwo agiye guhabwa imiti arimo anywa n'inzoga, kandi inzoga ntabwo ari nziza kuzifatanya n'umuti.

Umuryango w'umugore n'umugabo bageze mu zabukuru, umugabo arimo yereka umugore we uko agomba gufata imiti yabugenewe ndetse urabona ko bishimye cyane nk'umuryango unezerewe.

Umusaza ugeze mu zabukuru, ari kwa muganga, arimo arafashwa n'umuganga kongera kugarura imbaraga cyangwa se kongera gukoresha amaboko ye ashobora kuba yarahinamiranye kubera indwara zitandukanye.

Umugabo ugeze mu za bukuru arimo arakurikirana areba uko ubuzima bwe buhagaze akoresheje akamashini wambara ku kuboko gashobora gupima umuvuduko w'amaraso.

Raporo y'imyaka icumi ku kuboneza urubyaro, igaragaza uko abakoresheje cyangwa ingano y'ababashije kugura iyo miti iboneza urubyaro, uko ingana cyangwa ihagaze.

Inama mpuzamahanga ku buzima bw'imimyororokere, aho abagaragaza ko abantu bo mu mujyi batabona uburyo bungana mu kugera ku byabafasha mu buzima bwabo bw'imyororokere.

Ubukangurambaga ku ndwara ya kovide cumi n'icyenda, mu buryo bwo kuyirinda harimo gukaraba amazi meza n'isabune, kwambara agapfukamunwa, guhana intera, kwirinda gukora kuwayanduye, kurya imbuto, ndetse no guhamagara ku muronko w'ijana na cumi na kane igihe ubonye cyangwa wibonyeho ibimenyetso bya kovide.

Abaganga babiri bambaye ibibarinda kwandura, barimo basuzuma abantu batandukanye, hari abatonze umurongo; ku ikubitiro hari umugabo wicaye, umuganga arimo amutunga akantu kamurika mu kanwa, ngo arebe indwara zaba zarafashe mu kanwa.

Ibidukikije n'ingaruka bifite ku buzima bw'abantu muri rusange, uko ibidukikije bibungwabunzwe neza, bishobora gutera ubuzima bwiza by'umwihariko mu mavuriro rusange ya leta.

Abaganga kwa muganga bambaye bipfutse ahantu hose ndetse no mu maso bambaye udupfukamaso, barimo bakurikirana abarwayi barwaye indwara cyangwa icyorezo cyandura.

Muri Kigali ahantu hagenewe kwakira abantu bagaragaweho n'imico mibi, mu buryo bwo kongera kubasubiza kuri gahunda, babigisha ndetse babagorora, kugira ngo basubire ku buzima buzima.

Abarwayi batandukanye imbere y'inyubako y'ibitaro, aho bategereje kuba bahabwa serivise, bamwe barahagaze harimo abana batoya, abagabo, abagore, ndetse n'abasheshe akanguhe.

Inyubako isa neza ifite isuku, ifite ibice bitandukanye byakira abarwayi mu buryo butandukanye, ibumoso bwaho hari igice cyagenewe abavuzi babyaza.

Inyubako ya Kaminuza y'u Rwanda i Butare, mu myaka yashize yari isize irange rijya gusa umweru, imbere yaho hari ibiti byakuze hari n'abagabo babiri umwe arahagaze undi arimo amanuka bose bambaye imyenda mu gice cyo hejuru itukura.

Umwana kwa muganga ari kumwe n'umuganga ushinzwe kuvura abana ndetse n'uwaherekeje uwo mwana, hafi y'umwana hari ibikinisho, umuganga yambaye akumvirizo mu matwi yumva uko ubuzima bw'umwana bumeze.

Umurwayi ugaragara ko arembye cyane, aho hari ibimashini byinshi acometseho bimufasha kumuvomera amaraso ndetse akaba ari guhabwa imiti ica mu nshinge twita serumu.

Mu mwambaro wabugenewe umuganga mukuru asuye umurwayi mu cyumba cy'abarwayi, arimo amukurikirana, arimo amusuzuma ndetse amubaza uko amerewe amwitayeho cyane amureba amusuzuma n'ibikoresho byabugenewe.

Mu cyumba kwa muganga mu isuzumiro, harimo ibikoresho bitandukanye, harimo ibitanda baryamishaho abarwayi, hariho n'utumeza baterekaho imiti bifashisha, harimo n'utumashini dutandukanye two gukurikirana, ibyo muganga arimo apima.

Umuntu w'igitsina gabo arimo arasoza gukora siporo, aricaye ngo aruhuke, arimo yitekerezaho, ari nako afata amazi ngo aruhure umubiri we.

Umuntu w'igitsina gore, w'uruhu rwera, wambaye isengeri ndetse akaba afite imisatsi miremire, arimo anywa amazi mu rwego rwo gukomeza kugira ubuzima bwiza, cyane ko ubuzima bwacu bugizwe na bitatu bya kane by'amazi.

Umuntu w'igitsina gabo uri kunywa amazi, biragaragara ko ari kuyanywa kubera ashobora kuba avuye muri siporo cyangwa se akaba ari kuyanywa mu buryo bwo kwirinda indwara zitandukanye, nk'impyiko n'izindi ziterwa no kutanywa amazi ahagije.

Umuntu w'igitsina gabo wakoze imyitozo ngororamubiri y'amaboko, ku buryo amaboko afite imbaraga zihagije, amoboko yarabyibushye, iminkanyari n'imitsi by'akaboko byarabyimbye birakura cyane.

Abantu babiri bateruye agatanda kariho ibikoresho bitandukanye, bambaye imyenda itukura ni abafasha mu gutabara abakinnyi baba bagize ikibazo nko kuvunika cyangwa bagize ikindi kibazo icyo ari cyo cyose mu kibuga.

Umwana w'umukobwa ukiri muto uri gukora siporo zo kwicara, akaguru kamwe karahinnye, akandi kararambuye, amaboko ari imbere, yambaye isa ku kuboko ishobora gupima umuvuduko wumutima we, hari icupa hirya ye ry'amazi ashobora gukoresha mu gihe cyo kuruhuka ndetse ari gukora siporo yumva n'umuziki.

Umurwayi kwa muganga, yicaye ku gatanda, aho muganga afashe ukuguru agenda amukanda, amubaza aho ababara, arimo agenda yifashisha urutoki, agenda amubaza aho yumva afite ikibazo.

Umuntu uri kugororerwa ingingo, aho uwabyigiye cyangwa uwabihuguriwe arimo amuramburira akaguru, amukanda amushyiraho imiti yabugenewe kugira ngo yongere agarure ubuzima nkuko yari ari mbere.

Umuntu ushinzwe gutoza abantu babana n'ubumuga, arimo yigisha umuntu ubana n'ubumuga gukina ndetse uwo muntu yishingikirije imbago, yambaye agakabutura k'umukara, umupira w'umuhondo n'inkweto z'umukara.

Umuntu w'igitsina gore uvuye gukora siporo, arimo afata amazi mu rwego rwo kuruhura umubiri, afite isyime y'umweru mu ijosi, yambaye akenda hejuru gafite ibara ry'icyatsi kibisi, umweru n'ubururu.

wa muganga icyumba umuganga yifashisha avuriramo harimo imashini zitandukanye ndetse n'intebe imufasha guhindukira bitamugoye, ndetse ikaba yamufasha kutarwara umugongo mu buryo bworoshye.

Umuntu w'igitsina gore urimo aranywa amazi, yambaye umupira ujya gusa umutuku asutse ibisuko birebire ndetse yambaye utwo yumviriza mu matwi uko umuvuduko we uhagaze.

Umuntu w'igitsina gabo arimo arakora imyitozo ngororamubiri, yicaye arambura amaguru, amaboko afata amano; ndetse yakoze n'amaboko, kuko imitsi n'imikaya y'amaboko yarabyimbye.

Imiti ikozwe mu kimera cyitwa igikakarubamba, ikaba ifasha mu gukura imyanda mu mubiri, kongera imirire ndetse hari n'ibinini bitandukanye bikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye.

Imiti ivura mu buryo bwa gakondo iri mu macupa maremare, amwe yometseho udupapuro tugaragaza icyo uwo muti uvura afite amabara atandukanye, amwe arimo umuti usa icyatsi andi arimo umuti usa n'umutuku.

Umuti mwiza wagenewe gusukura no koza amenyo ukaba warakozwe mu kimera cyitwa igikakarubamba ni umuti mwiza ukesha amenyo ndetse akarwanya n'uturwara twabasha gufata amenyo.

Imiti ikozwe mu kimera kitwa igikakarubamba, ikaba ikozwe mu miti itandukanye harimo iyo kunywa, iriri mu binini, kwisiga ikaba ifasha mu kurinda indwara zitandukanye, yaba izo ku ruhu n'izo mu mubiri.

Inyongeramirire ikozwe mu mbuto, ikaba ishobora gutanga intungamubiri umuntu ashobora kubona mu biryo, akaba yayibona akoresheje imiti, umuntu ashobora kuyikoresha mu gihe cy'iminsi mirongo itatu, aho buri munsi afata akanini kamwe.

Imiti ya gakondo iteye mu buryo bugendanwa, iteye mu bikombe ndetse iteye mu rugo aho abantu bashobora kubana na yo igihe bayikeneye bakabasha kuyibona.

Imiti itandukanye ivura mu buryo bwa gakondo, yagenewe gufasha abantu bigitsina gabo, abashobora gukora imibonano mpuzabitsina bakarangiza vuba cyangwa bagacika intege batarabasha gufasha abakunzi babo.

Imiti itunganyije yavanywe mu kimera cyitwa igikakarubamba, ishobora gukoreshwa nk'umuti uvura indwara z'uruhu cyangwa akaba ari umuti wo kunywa cyangwa kwisiga.

Umuvuzi gakondo, ufashe mu ntoki ikimera arimo asobanura yerekana ndetse n'akamaro ka cyo, arimo avuga uburyo gikoreshwa, yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'icyatsi.